Umudamu umeze nk'aho ari umuganga, kuko yambaye itaburiya y'abaganga ari no kwandika mu gitabo, hariho n'miti ameze nk'aho acuruza yambaye n'agapfukamunwa k'umweru.

Ubwoko bwo mu giti cya voka. Voka ni nziza cyane kuko abantu barayikunda kuko ni imbuto nziza cyane.

Ubwoko bw'igiti cy'umwembe, umwembe ni mwiza cyane kuko ni urubuto abantu benshi bararukunda cyane, kuko rufite vitamini kandi ruranaryoha.

Ahantu bameze nk'aho ari ku kigo cy'amashuri. Amashuri ni meza cyane kuko abana iyo bagiye kwiga biba ari byiza cyane, kuko hari abavamo abayobozi bayobora mu nzego zitandukanye.